Iwacu mu majaruguru duhinga imbuto nyinshi. Harimo ibigori, ndetse higanjemo ibirayi. Ibirayi byacu tubihinga kijambere tugashyiramo ifumbire y'imborera kandi twiteguriye.

Imifuka ipakiye ku igare y'ifumbire y'imvaruganda dukunda kuyita dapu, abahinzi b'ibigori iyo bahinze ibigori byabo, bafumbiza iyi fumbire kugira ngo ibigori byabo byere neza.

Umugabo wambaye imyenda y'umuhondo, ahetse icyuma gitera umuti, yambaye ga mu ntoki, yambaye n'agapfukamunwa, arigutere umuti wica udukoko, twataka imyaka y'ibigori. Ibigori byacu iyo tubiteye umuti byera neza.

Abayobozi b'igihugu cyacu harimo abasirikare, abapolisi n'abandi. Aba bayobozi bakunda igihugu cyabo, bereka abaturage uko bagomba guhinga ibigori bya kijyambere, kugira ngo babone umusaruro uhagije.

Mu mboga dukunda guhinga hano iwacu, harimo imboga z'amashu. Amashu ni imboga nziza zigira umusaruro. Iyo wazihinze neza, ukazitaho, ukazibagarira ku gihe, ukazitera umuti igihe hajemo urusimba. Uyu mugabo arimo aratera umuti w'urusimba kugira ngo amashu ye akure neza.

Abagabo babiri bari gutwara ifumbire y'imborera ,irunze ku muhanda ni ifumbire ubona ko yaboze neza, hano iwacu kugira ngo tubone umusaruro uhagije bisaba ko duhinga tugashiramo ifumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda niho tubona umusaruro mwiza.

Ubuhinzi bw'imboga bw'amashu ni ubuhinzi bwiza cyane, amashu yacu tuyahinga kijyambere tuyatera umuti, tuyabagarira ku gihe bityo bigatuma tugira umusaruro uhagije.

Ifumbire ya Ire iri mu mufuka w'umweru, iteretse mu murima w'ibigori, iyi fumbire abahinzi b'ibigori bayikoresha mu gufumbira ibigori byabo, kugirango bikure neza, bizabahe umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Amafi meza ari ku isahani, ateguye neza, aya mafi arokeje, ni amafi agira intungamubiri nyinshi zitandukanye, iyo wariye amafi uba uzi neza ko wariye intungamubiri nziza.

Amafi abiri ari ku isahani ikozwe kijyambere. Amafi ni ikiribwa cyiza kandi gikungahaye ku ntungamubiri. Amafi aradufasha mu bijyanye no kubaka umubiri wacu mu buryo bwo kuturinda uburwayi.

Amafi meza kandi manini. Atari yatunganywa akirobwa ako kanya. Amafi ni ikiribwa cyiza cy'ingirakamaro gifitiye intungamubiri, abakuru ndetse n'amatoya.

Imisozi myiza iri ahantu heza kandi hitaruye hagati y'imisozi harimo inyanja. Abaturage batuye hafi yiyi nyanja babona amafi ku buryo bworoshye kandi bakagira nakayaga keza.

Amafi meza kandi manini yokeje bifashishije imbabura. Aya mafi araryoshye， agira intungamubiri nziza， kandi zihagije. Afasha abana ndetse n'abakuru.

Amafi abiri ari mu mazi .Ni amafi meza ubona ko yakuze neza . Amafi ni ikiribwa cyiza ,kigira intungamubiri nyinshi kandi zihagije.

Ibiribwa bikomoka mu mazi， ni ibiribwa byiza cyane，harimo indagara， amafi，n'ibindi byose biyakomokaho. Ibyo biribwa bigira intungamubiri nyinshi， kandi zihagije. Umubyeyi wakoresheje ibi biribwa， aba azi neza ko yagabuye neza.

Hano iwacu mu majaruguru dukunda guhinga ibirayi. Igihingwa c'ibirayi ni igihingwa dukunda cane kubera ko kiduha umusaruro uhagije. Iyo duhinze ibirayi duhinga ku murongo, tugashyiramo ifumbire, kandi tukabagarira ku gihe.

Ubuhinzi bw'imboga za kijyambere harimo imboga zitwa epinari, epinari ni imboga zifasha umuntu, zifite intungamubiri zihagije bityo zigatuma abantu batarwaragurika.

Karoti ni imboga nziza, zera neza, kandi zigira umusaruro uhagije. Karoti ntizigorana mu kuzihinga kandi zera vuba. Izi karoti zirashishe bigaragare ko zifite ibikaroti byinshi.

Umurima baragiyemo intama . Ni intama nziza, harimo inini n'intoya. Zifite amabara atandukanye, ay'umuhondo n'ay'umweru. Ubworozi bw'intama ni ubworozi bwiza kandi bwororoka vuba.

Umurima uhinzemo ibihingwa byinshi bitandukanye. Harimo amateke, hari n'insina, harimo n'ibiti dukunda kwita isombe. Isombe ni igiti cyiza kigira imboga nziza, zifite intungamubiri. Aabantu twese dukunda isombe.

Karoti nziza zihinze ahantu heza kubutaka bwiza ,karoti zihinze ku mitabo zera neza kandi zikagira umusaruro, karoti ni zimwe mu mboga zikunzwe hano iwacu mu Rwanda.

Amajeri ni kimwe mu bihingwa dukunda guhinga hano iwacu, amajeri ni igihingwa cyiza kigira umusaruro kandi kitagorana mu kugihinga. Amajeri urahinga ukazasubirayo ugiye gusarura, ntagusaba kubagara.

Insina nyinshi ziteye ahantu hamwe harimo nini n'intoya, inini muri zo ifite igitoki itezwe n'injegwe cyangwa se inkingi zifite amakoma menshi. Iki gitoki ni kiza kandi ni kinini.

Ibyatsi biteye k'umuhanda harimo ibyatsi dukunda kwita ibidariya hirya yaho hateye insina ndetse n'indabo z'umuhondo uyu muhanda ni umuhanda wigitaka udakoze neza.

Ubuhinzi bw'amatunda atandukanye harimo amatunda yitwa marakuca. marakuca ni amatunda meza kandi aryoha, umuhinzi wayahinze yera neza agasagurira isoko, bityo bikamufasha kwiteza imbere.

Intama ziri kurisha mu murima zifite amabara atandukanye umweru n'umuhondo, inini n'intoya. Izo ntama ni intama nziza ubona ko zabonye ubwatsi buhagije, ubworozi bw'intama ni ubworozi bugira umusaruro uhagije kandi wihuta.

Umurima uhinzemo imboga za karoti, ariko zitakuze neza. Izi karoti zahinzwe ku butaka bukomeye kandi ntizabona amazi ahagije. Karoti ni imboga zikunda guhingwa ahantu heza kandi hafite ubutaka bworoshye.

Insina yezeho igitoki cyiza gifite amabere maremare, gitegesheje igiti twakwita injegwe cyangwa se inkingi kugira ngo itaza kugwa. Iyi nsina ni nziza kandi yezeho igitoki kiryoshye.

Umurima munini usaruwemo ibigori, ibigori bya ibulide bigira umusaruro mwiza kandi uhagije. Iyo bamaze gusarura ibigori, ibigori babijyana mu rugo ibiti byabyo bisigaye kubera ukuntu bikomera bivamo imishingiriro.

Igiti cy'imbuto za avoka kiri ahantu heza gifite amashami ndetse n'imbuto. Kiri inyuma y'inzu, kiri ahantu hatoshye kandi bigaragare ko gifite imbuto nziza kandi zibyibushye.

Ubuhinzi bw'ibigori ni ubuhinzi bwiza cyane kandi bugira umusaruro uhagije, iyo wahinze imbuto nziza cyane cyane imbuto ya iburide ubona umusaruro uhagije, ukarya ukihaza kandi ugasagurira n'amasoko.

Umurima urimo ibihingwa byinshi bitandukanye harimo ibirayi, harimo amateke, hateyemo n'insina . Amateke ni igihingwa ngandurarugo nacyo gikundwa cyane. Yerera hasi, amateke ni ikinyabijumba ,arakundwa kandi araryoha.

Inka ziri kumwe n'abashumba baziragiye mu kibara , bafite n'ibase bagiye gushora izi nka ni nziza zifite umukamo mwiza kandi zitaweho.

Amashaza n'igihingwa cyiza kandi gikunzwe hano iwacu mu rwanda amashaza yera ahantu heza kandi hakomeye agira umusaruro mwinshi kandi ntabwo agorana mu kuyahinga.

Karoti ni kimwe mu buhinzi bw'imboga dukunda guhinga hano iwacu, karoti ni ikiribwa cyiza gifite intungamubiri kandi cyorohera umuhinzi kugihinga bityo akabona umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Ubuhinzi bw'urutoki ni kimwe mu bihingwa bigaragara hano iwacu mu Rwanda. Muri uru rutoki hateyemo icyo bita ibihaza cyangwa se amadegede. Ibi bihingwa bikundwa cyane ku isoko, kandi ni ingirakamaro.

Ishyamba ririmo ibiti byiza, ibitoya n'ibinini harimo, ibiti byitwa maydeni, ndetse n'inintusi za kinyarwanda, iri shyamba ririmo n'ibimera byinshi bitandukanye, iri shyamba ntabwo riteye ubwoba bwinshi.

Amashaza ni kimwe mu bihingwa dukunda guhinga hano iwacu. Amashaza ni meza， amashaza ntagorana mu kuyahinga， akunda kwera ahantu cyane cyane hakomeye， h'ikibara. Iyo uyateye ntabwo bikugora，usubirayo ugiye gusarura.

Guhinga ubwatsi bw'urubingo bifasha aborozi kugaburira amatungo yabo ku buryo bworoshe. Iyo umuhinzi yihingiye ubwatsi bw'amatungo ye, biramufasha ku buryo amatungo ye aticwa n'inzara.

Umukobwa wikoreye ijerekani ,avuye kuvoma amazi, ari kugenda mu muhanda, ageze imbere y'urugo rurimo ibiti byinshi . Abakobwa b'iwacu ni ba nyampinga bakora imirimo itandukanye.

Amajeri ni igihingwa cyiza dukunda guhinga hano iwacu. Amajeri ni igihingwa kitagorana mu guhinga, ntigisaba kwapurikwa, ntigisaba ifumbire, kandi gitanga umusaruro uhagije.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni ubuhinzi bwiza. Iyo tumaze gutera ibirayi turategereza bikamera, byamara kumera tukabyuhira, tugashyiraho ifumbire. Iyo tumaze gushyiraho ifumbire, tubitera umuti uhagije kugira ngo bizere neza.

Inka nziza za kijyambere, inka zifite amabara meza kandi menshi. Izi nka ziri ahantu heza mu rwuri runini. Izi nka zifite umukamo uhagije kandi zitanga umusaruro mwiza.

Iwacu mu Rwanda harimo ibihingwa byinshi bitandukanye, harimo igihingwa cy'ubunyobwa. Umuturage wagihinze neza, abona umusaruro uhagije kubera ko bugira amafaranga menshi bityo akiteza imbere, ntabure minerivare y'abana.

Ubucuruzi bw'ibicuruzwa byo kurya harimo ibirayi, ibihaza, ibijumba ndetse n'ibindi. Ibirayi bya kinigi ni ibirayi byiza biryoha kandi bikundwa ku isoko.

Abakobwa babiri umwe yikoreye igitebo kirimo imboga. Harimo n'agakoko ndetse afashe n'isuka. Undi afashe agataro karimo ubunyobwa. Aba bakobwa bakunda umurimo cyane.

Ibijumba, ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo, duhinga hano iwacu mu Rwanda. Ibijumba bigira umusaruro mwiza, kandi uhagije. Umuhinzi wese wahinze ibijumba, ntabura amafaranga, kandi birakungahaye ku ntungamubiri.

Mu mbuto tugira hano iwacu, harimo imbuto z'avoka, avoka n'imbuto nziza zigira umusaruro, kandi zikungahaye ku ntungamubiri, umuntu wese wariye avoka, aba yakoresheje intungamubiri nyinshi, kandi zihagije.

Iwacu mu majaruguru buri muturage wese ukeneye kwiteza imbere ntakenera guhinga mu gihe cy'imvura gusa n'igihe cy'izuba arahinga, agafata ingamba zo kuvomera imbuto ze harimo ibitunguru ndetse n'indi myaka itandukanye.

Inkoko nziza y'igisake ihagaze mu busitani bwiza ihagarariye ku kaguru kamwe akandi yagahinnye ifite amabara y'umukara ndetse n'umuhondo ifite n'ibirokoroko binini ni inkoko nziza yakuze neza.

Ikawa ni igihingwa ngandurabukungu duhinga hano iwacu mu Rwanda ,ni igihingwa cyiza cyera kizamuka kigira imbuto, izo mbuto zayo iyo zeze ziba zitukuye, icyo gihingwa gitanga umusaruro mu gihugu cyacu Kandi tukacyohereza no mu bihugu byo hanze.

Iwacu duhinga ibigori, mu buryo bwa kijyambere dukoresheje ifumbire y'imvaruganda ndetse n'imborera, iyo tumaze guhinga umurima wacu turatera ibigori byamara kumera bikagera igihe cyo kwapurikwa, ari bwo dushyiraho ifumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda.

Ibigori biri ku mufuka. Bifite amabara atandukanye. Ibigori by'umuhondo ndetse n'umukara, iwacu dukunda kwita mayizori y'amabara. Ni ibigori byiza bigira ifu nziza kandi iryoshye.

Iwacu mu Rwanda tugira ibihingwa ngengabukungu, harimo n'icyayi. Icyayi ni igihingwa gikundwa cyane kandi kigira umusaruro, kirakenerwa mu gihugu cyacu ndetse no mu mahanga.

Amapera ni imbuto ziboneka hano iwacu mu Rwanda. Arimo ubwoko bwinshi butandukanye harimo amapera y'icyatsi kibisi n'andi afite uruhu rw'umweru. Amapera yose agira intungamubiri zingana.

Mu bworozi bw'amatungo maremare ,harimo ubworozi bw'inka inka nziza yabyaye imitavu myiza, kandi ishimishije ,iyi nka ifite n'umukamo uhagije.

Umugore n'umugabo batameruye igiti cy'imyumbati, baranduranye n'uruti rwayo. Berekana uko imyumbati yabo yeze neza. Imyumbati ni kimwe mu bihingwa by'ibinyabijumba, byera neza kandi bigira umusaruro mwinshi.

Amajeri mabisi, atonoye , atunganyijwe neza. Amajeri mabisi arakundwa cyane no ku isoko aba afite amafaranga menshi . Amajeri mabisi araryoha cyane hano iwacu turayakunda.

Ubuhinzi bw'imboga tugira hano iwacu, higanjemo n'ubuhinzi bw'inyanya. Ubuhinzi bw'inyanya ni ubuhinzi bwiza cyane bugire umusaruro kandi uhagije. Ubu buhinzi iyo ushaka kubona umusaruro mwiza kandi ufatika urazishingirira.

Karoti ni zimwe mu mboga nziza duhinga hano iwacu. Karoti ni imboga nziza, zera vuba, kandi zigira umusaruro uhagije. Umuhinzi wahinze karoti aba yizeye ko arabona amafaranga ahagije, kandi ku isoko ziragurika.

Abantu bikoreye imizigo bari kunyura mu kibaya, gihinzemo imyaka myinshi itandukanye aba bantu bavuye guca ibitoki abandi bikoreye imifuka y'ibijumba.

Umugabo urimo kugosora imyaka akoresheje intara. Intara ni igikoresho dukoresha tugosora imyaka yacu, tukayitunganya, tukayibika isa neza.

Ubucuruzi bw'imboga n'imbuto bucururizwa ahantu hamwe harimo imboga z'intoryi na puwavuro ndetse n'imiteja. imbuto zihari ni indimu izi ndimu ni nziza kandi zifite umutobe uhagije.

Ibitoki ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo duhinga hano iwacu, ibitoki byera neza kandi bigira umusaruro uhagije. Ibitoki birakundwa cyane kandi ku masoko biragurika, umuhinzi wahinze ibitoki yiteza imbere.

Imyembe ni imbuto zigaragara muri iki Gihugu cyacu. Imyembe irakundwa cyane, imyembe igira intungamubiri nziza kandi zuzuye. Imyembe nta muntu n'umwe utifuza kuyirya.

Umuhinzi uri mu murima w'ibigori. Ni ibigori byiza kandi bishimishije. Arimo arabyicira . Ibigori iyo bimaze gukura ugenda urebe ikitameze neza, ukagikuramo kigahigamira ibindi bigakura neza.

Mu Rwanda mu rwego rwo kugira ngo tubone umusaruro uhagije, dusigaye tuvomera imyaka mu gihe cy'izuba ryinshi, ku buryo ki tubona umusaruro uhagije bitatugoye.

Ibigori byinshi byanitse ku mahema, aba baturage barimo barabyanika, nibamara kubyanika, nibimara kuma barabihura bajyane impungure ku isoko babone umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Iwacu mu majyaruguru, dukunda guhinga igihingwa cy'amajeri. Amajeri ni igihingwa kiza, kigira umusaruro, kidatinda kwera, kidasaba ifumbire ndetse no kubagarwa. Amajeri ni meza cyane.

Iwacu duhinga ibigori by'ubwoko bwinshi, harimo ibigori dukunda kwita mayizori. Mayizori ni ibigori byiza kandi byera vuba, bigira umusaruro ku buryo bushimishije, umuhinzi wahinze mayizori ntategereza kurya igihe kirekire.

Iwacu duhinga imbuto zitandukanye harimo inanasi nziza kandi ziryoshye. Abaturage bazihinga bakoresha imbaraga nyinshi, mu kuzamamaza kugira ngo zigere ku isoko ku buryo bwihuse, bakabona amafaranga menshi kandi ahagije.

Ibijumba ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo bihingwa hano iwacu. Ibijumba ni igihingwa cyiza. Biraryoha bifite intungamubiri nyinshi kandi bikorwamo amabiswi, imigati ndetse n'ibindi. Ibijumba ni ingirakamaro.

Icyayi ni igihingwa ngengabukungu. Icyayi ni igihingwa cyiza. Icyayi cyacu ni igihingwa gitanga umusaruro gifasha abaturage ndetse n'igihugu cyacu muri rusange. Bityo guhinga icyayi ni ibintu byiza.

Umuhinzi uri mu murima we arimo arasarura ibigori, ibigori ni igihingwa cyiza, iyo wabyitayeho ukabihingira ku gihe, ukabibagara neza, ukabishyiraho ifumbire, bigira umusaruro uhagije. Ibigori bya iburide ni ibigori bifitiye buri muturage wese akamaro.

Urusenda ni kimwe mu bihingwa by'imboga tugIra hano iwacu mu rwanda, rugira umusaruro mwiza kandi uhagije, iyo ruhinzwe ahantu heza rwera urusenda rwinshi. Rugira amabara menshi atandukanye, urusenda rutera ubushake bwo kurya harimo urwitwa kamurari.

Mu mboga dukunda guhinga iwacu harimo imboga z'imiteja, imiteja na seleri na pavuro ni imboga nziza iyo wakoresheje imboga z'imiteja uba wizeye ko wafashe intungamubiri zihagije.

Mu bihingwa ngandurarugo duhinga hano iwacu harimo igihingwa cy'imyumbati umuturage wagihinze neza areza akagira umusaruro agasagurira isoko bityo akabona amafaranga atandukanye yo gukemuza ibibazo byo mu rugo.

Hano iwacu tugira imbuto z'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo: amaronji, ibinyomoro, imyembe, wotameloni ndetse na pome. Izi mbuto zose iyo wamaze kuzifata uba wizeye ko ufashe imbuto zujuje intungamubiri.

Ibigori bya iburide ni ibigori byiza kandi bigira umusaruro uhagije. Umuturage wese uhinze iburide aba yizeye ko ari burye kandi agasagurira n'amasoko. Guhinga iburide ni ingenzi kuri buri muturage wese.

Amapapayi ari mu base y'umutuku, amapapayi ni imbuto nziza zifasha buri muntu wese, ni imbuto zikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, kandi umuntu wese uriye ipapayi aba aziko ariye intungamubiri ihagije.

Igihingwa cy'umuceri ni igihingwa cyiza cyane. Gikunda guhingwa ahantu ho mu bishanga. Iki gihingwa kigira umusaruro mwiza kandi ushimishije. Umuturage iyo ahinze ararya akihaza kandi agasagurira n'amasoko.

Iwacu mu Rwanda tugira imbuto nyinshi, harimo n'imbuto z'ipapayi. Ipapayi ni urubuto rwiza, rwera neza kandi rufite intungamubiri nyinshi zikungahaye. Ipapayi igira umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Iwacu tugira ubworozi bw'amatungo magufi harimo intama ndetse n'ihene. Ihene ni amatungo yororoka ku buryo bwiza cyane kandi bwihuse, gatanga ifumbire ku buryo umuturage woroye itungo ry'ihene aba azi neza ko adashobora kubura ifumbire.

Abahinzi benshi bafashe itiyo rinini, barimo baravomera ibirayi byabo; muri iki gihe ntitukirira guhinga ku mvura gusa no ku izuba turahinga, bityo bigatuma tubona umusaruro mwiza.

Ameza ateretseho indiga, avoka isatuye, imwe irimo ikibuto, indi ntacyo. Iyi avoka isa neza, isa n'umuhondo. avoka ni urubuto rwiza kandi rukungahaye ku ntungamubiri zihagije.

Iwacu duhinga ibigori bitandukanye, harimo ibigori bya ibulide, ibigori bya ibulide bigira umusaruro mwiza kandi uhagije, iyo wabiteye ahantu heza biheka ibigori bibiri bikagira umusaruro, kandi bikaguha amafaranga menshi.

Ubworozi bw'amatungo maremare tugiramo inka, inka zifite amabara menshi atandukanye. Inka ni ubworozi bwiza buduha umusaruro, tubona amata tukabona ifumbire, buri muturage wese woroye inka ntagira ikibazo cy'amafaranga.

Mu buhinzi ngandurabukungu harimo ubuhinzi bw'icyayi. Icyayi gifitiye igihugu cyacu akamaro ndetse n'abaturage muri rusange. Aba baturage barimo baragisoroma bambaye imyenda y'akazi, basoromera mu byo bita ibitebo, babihetse inyuma ku mugongo. Icyayi kigira akamaro kanini kandi kirakundwa ku isi hose.

Umusaza ari hamwe n'umwuzukuru we bavuye kwahira ubwatsi bw'inka .Abasaza b'iwacu bakora imirimo itandukanye mu rwego rwo kugira ngo batagira irungu mu rugo ;bakunda amatungo yabo.

Umuhinzi uri mu murima w'ibigori, arimo arareba ko byeze, ibi bigori ni ibigori bya iburide. Ibigori bya iburide ni ibigori byera neza, kandi bigira umusaruro. Ibi bigori bivamo ifu nziza, dukunda kwita kawunga.

Mu Rwanda tugira imbuto nyinshi zitandukanye harimo n'imbuto z'amapera, amapera ari mu bwoko bwinshi butandukanye, harimo: amapera agira ibara ry'umutuku mo imbere ariko inyuma asa n'icyatsi kibisi, hari n'asa n'umweru inyuma n'imbere asa n'umweru.

Mu rwego rwo kubika, ibiryo by'amatungo yacu neza, twifashisha icyuma gikoresha umuriro w'amashanyarazi, mu gusya ibiryo by'amatungo, iki cyuma n'ingenzi umworozi wese ugifite abazineza ko afite, igikoresho cy'ingirakamaro.

Isoko ricururizwamo imboga zitandukanye harimo inyanya nziza, puwavuro, amashu ndetse n'ibitunguru Iri soko nta cyo warikeneramo ngo ukibure.

Isoko ry'amatungo magufi ryubatse ahantu heza, harimo ihene, ndetse n'intama, umuturage weseze ushaka kuza kugura itungo, aribona ku buryo bworoshye kandi ku giciro gitoya.

Ubucuruzi bw'imboga zitandukanye harimo inyanya, intoryi , imboga zitanditswe hasi ku mifuka, ku mifungo buri muntu wese araza agafata umufungo akeneye . Izi mboga ni nziza kandi zigira intungamubiri.

Mu matungo magufi tugira hano iwacu harimo n'amatungo y'ihene. Amatungo y'ihene ni amatungo akunzwe cyane kandi yororoka vuba. ihene zigira amahembe kandi zirakundwa cyane.

Imbuto z'amatunda ni imbuto nziza. Izi mbuto akenshi dukunda kuzita marakuca. Izi mbuto zigira intungamubiri nziza, kandi zirakunzwe cyane ku buryo buri muntu wese yifuza kurya uru rubuto, kuko aba azi neza ko agize ubuzima bwiza.

Iwacu duhinga ibigori bitandukanye: ibigori by'umweru aribyo dukunda kwita iburide, ibigori by'umuhondo twita mayizori. Ibigori byacu iyo tumaze kubisarura mu murima, tubizana mu rugo tukabimanika ahantu twita ku bugamba kugira ngo byume neza.

Igihingwa cy'imyumbati ni igihingwa cyiza dukunda guhinga hano iwacu mu Rwanda. Ni igihingwa ngandurarugo iki gihingwa kigira umusaruro mwinshi kandi uhagije. Aba bagabo barapima imyumbati bifashishije umunzani ariko ikiri ku ruti rwayo

Impungure z'umweru zivanzemo amasaka y'umutuku ndetse na soya, iyi myaka ivanze neza, ivamo igikoma cyiza, kandi cyujuje intungamubiri zihagije.

Hano iwacu tugira igihingwa cy'ibirayi, iyo twasaruye ibirayi tubisuka hasi, tukarobanura ibyokurya, tukarobanura imbuto tuzahinga mu kindi gihembwe gikurikira.

Mu mbuto duhinga hano iwacu harimo imbuto z'amatunda ,amatunda n'imbuto nziza kandi zikungahaye ku ntungamubiri, umuhinzi wayahinze aba yizeye amafaranga ahagije kuko agira amafaranga menshi ku isoko.

Mu bihingwa ngandurarugo duhinga harimo n'igihingwa cy'amateke, amateke ni igihingwa cyiza gifasha umuryango, kigira umusaruro mwinshi kandi uhagije, amateke iyo wayariye ugira imbaraga zihagije.

Iwacu mu majaruguru dukunda guhinga igihingwa cy'ibirayi duhinga imbuto nyinshi zitandukanye harimo: kinigi, mabondo ndetse n'izindi ,ibirayi by'iwacu biduha umusaruro uhagije turarya kandi tugasagurira n'amasoko.

Puwavuro ni kimwe mu mboga ziboneka hano iwacu mu Rwanda. Puwavuro zirimo amoko menshi harimo ibara ry'icyatsi kibisi, ibara ry'umuhondo n'ibara ry'umutuku. Puwavuro ni imboga nziza zikundwa kandi zihumuza ibiryo.

Imbuto nziza kandi nyinshi zisa n'umuhondo, zifite amababi y'icyatsi kibisi . Izi mbuto ni imbuto nziza ziryoha ,iwacu dukunda kuzita oranje. Izi mbuto zikungahaye ku ntungamubiri zihagije.

Ibirayi bipakiye mu mifuka myinshi kandi ifunze neza. iwacu iyo tumaze gukura ibirayi turobanuramo ibyo turya ubundi tugasagurira n'amasoko. Ibirayi by'iwacu biribwa n'abantu benshi batandukanye.

Umufuka urimo ibirayi bya kinigi kandi byiza byeze neza aba bantu barimo barabireba ngo babigure, kinigi ni ibirayi byiza kandi bikundwa ku isoko, buri mucuruzi wese yumva yacuruza ibirayi bya kinigi ndetse n'ababigura barabikunda.

Iwacu tugira imbuto z'ibirayi zitandukanye harimo: kinigi, gikungu, mabondo, ndetse na rutuku. Imbuto ya rutuku ni imbuto yera vuba kandi iryoha. Uwahinze rutuku, amara amezi makeya agahita asarura.

Avoka ni kimwe mu bihingwa by'imbuto duhinga hano iwacu mu Rwanda avoka ni urubuto rwiza rukungahaye ku ntungamubiri nyinshi zitandukanye igira umusaruro uhagije ,avoka ivamo ibintu byinshi bitandukanye amavuta yo kurya ndetse n'ayo kwisiga

Igihingwa cya avoka ni igihingwa gikunda kuboneka hano iwacu mu majaruguru. Avoka ni urubuto rwiza rukunda gukoresha buri wese yumva ko ku biryo bye aramutse ashizeho avoka yaba ariye ibiryo byiza kandi bikungahaye.

Ibijumba ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo duhinga hano iwacu mu Rwanda. Bigira umusaruro mwiza kandi biraryoha. Birimo amoko menshi, hari ibijumba by'umweru, umutuku ndetse n'umuhondo. Ibijumba ni ibitera imbaraga.

Mu mbuto duhinga hano iwacu duhingamo imbuto zitwa avoka, avoka ni imbuto nziza kandi ziryoha, avoka ni imbuto zigiramo umuti muri zo ku buryo iyo wayikoresheje uba uzi neza ko wirinze n'uburwayi butandukanye.

Umugabo uri mu murima we uhinzemo imbuto z'amatunda harimo amateke ndetse n'insina. Imbuto z'amatunda n'imbuto nziza bahinga neza kandi bakazubakira izo mbuto iyo wazubakiye zigatondagira niho zigira umusaruro mwiza.

Iwacu iyo tumaze gusarura imyaka yacu harimo imyaka y'ibigori, turayitegura neza tukayigosora kugira ngo tuyibike isa neza tuyigosora twifashishije intara.

Umuhinzi iyo amaze gusarura ikawa ye arayitonora akayanika ikuma, yamara kumpa akaba aribwo ayijyana ku isoko bityo akabona umusaruro yifuza iyo yayanitse neza.

Hano iwacu tugira ibihingwa byinshi bitandukanye by'ibinyamisogi. Harimo igihingwa cya soya. Soya ni igihingwa gifasha buri muturage wese ugihinze kugira ubuzima bwiza, kubera ko gikungahaye ku ntungamubiri nyinshi.

Tungurusumu ni igihingwa cyiza cyane kigira umusaruro uhagije kandi no ku isoko kigira amafaranga menshi. Tungurusumu ni umuti uvura indwara zitandukanye cyane cyane indwara zo mu nda.

Ubunyobwa baranduranye n'imizi yabwo, bufite imishogi myinshi harimo iminini n'imitoya ubunyobwa n'igihingwa cyera mu butaka, ubunyobwa iyo bweze neza bugira umusaruro uhagije.

Mu mbuto z'ibishyimbo duhinga, harimo ibishyimbo bitandukanye. Ibishimbo by'umweru ndetse n'iby'umutuku. Ibi bishyimbo byose bigira intungamubiri nziza kandi zuzuye , birakundwa kandi bigira umusaruro mwiza.

Igihingwa cy'ubunyobwa ni igihingwa cyorohera abaturage kugihinga, ni igihingwa cyerera hasi mu butaka, iyo cyeze kirasarurwa kigatonorwa, imbuto zacyo ziba zisa n'umutuku ariko mu gihe kitari cyatonorwa imbuto zacyo ziba zisa n'umweru ziri mu kintu cy'igishishwa.

Iwacu duhinga ibishyimbo byinshi bitandukanye harimo n'ibishyimbo by'umushingiriro, hari ibishyimbo bishingirirwa ,hari n'ibidashingirirwa. Ibi bishyimbo bihinze aha ni ibishyimbo by'umushingiriro bashingiriye bakoresheje imigano.

Amasaka ni kimwe mu bihingwa dukunda guhinga hano iwacu mu Rwanda. Ni igihingwa cyiza kandi kigira umusaruro uhagije. Nta bwo kigora mu kugihinga, ntigisaba ifumbire, kandi kirakungahaye kuri vitamine zose.

Ibiseke bibiri biboshye neza, birimo ibishyimbo by'ubwoko bubiri butandukanye, kimwe kirimo ibishyimbo bigiye bisa n'umukara, ikindi kirimo ibishyimbo by'umutuku, ibi bishyimbo ni ibishyimbo bahinga bya kijyambere, byera neza iyo bihinze ku murongo, ubona umusaruro uhagije.

Ubunyobwa buri mu mufuka bari kubusuka hasi ku kirago ngo babwanike. Ubunyobwa ni igihingwa cyiza cyerera mu butaka. Ubunyobwa iyo bumaze gusarurwa buranikwa, bugatonorwa, iki gihu cy'inyuma kikavaho, hagasigara ubunyobwa butukura.

Mu muco nyarwanda kera bakoreshaga ibyo bita ibigega bahunika imyaka cyangwa se imitiba. Ibyo bigega byahunikaga imyaka neza ikigega bakacyubakisha ibiti, ndetse n'imigano gishakaje ibyatsi byumye ntabwo umuntu yaburaga aho ahunika imyaka ye.

Abahinzi b'ibigori iyo bamaze kubisarura babikuye mu murima, babizana imuhira bakabishyira mu kigega, bakabishyira ku byo bita ubugamba. Ibi bigori biba biri ahantu heza, hafite urumuri rukeya ndetse n'izuba n'akayaga. Ibyo bigori byuma neza kandi bikagira umusaruro mwiza.

Mu muco nyarwanda habagaho ibikoresho bifashishaga bahunika imyaka ibigega ndetse n'imitiba; ibigega byabaga bisakaje ibyatsi iyo wabaga wahunitse mu kigega imyaka yawe yabaga ifite umutekano.

Mu gihugu cyacu, tugira inganda zitandukanye, zitunganya ibikomoka ku buhinzi bw'ibigori. Hakavamo amafu meza, kandi aryoshye. Ubuhinzi bw'ibigori budufitiye akamaro, ku buryo muri rusange buri wese yishimira kubihinga.

Igihingwa cy'ubunyobwa ni igihingwa cyiza kandi kigira umusaruro. Cyerera mu butaka hasi, kigira imishogi. Iyo mishogi ni yo iba irimo ubunyobwa. Iyo bweze barabukura, bakabwanika, bakabutonora, hakavamo ubunyobwa busa n'umutuku.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza, ni igihingwa cyerera mu butaka. Iyo umuturage agisaruye abanza yagitonora, yamara gutonora akanika. Ubunyobwa buvuyemo nibwo buvamo ifu cyangwa se bakabukaranga bakabuhekenya.

Mu muco nyarwanda kera habagaho ibyo bita ibigega, ibigega byari ibikoresho babikagamo imyaka: ibigori, impungure ndetse n'ibishyimbo. Ibi bigega byabikaga imyaka neza ku buryo umuturage wese wabikaga mu kigega yumvaga ko imyaka ye itekanye.

Amajeri yumye kandi yasaruwe neza, yanitswe no ku izuba rihagije, amajeri ni igihingwa cyiza kandi gikundwa; aribwa ari mabisi, akaribwa anumye. Amajeri agira intungamubiri zihagije.

Ubunyobwa buteguye neza butonoye bwanitse kandi bwumye, ubu ubunyobwa bufite ibara ridatukuye cyane, ubunyobwa ni igihingwa cyiza gikundwa ku isoko kandi cy'ingirakamaro.

Ibihwagari ni igihingwa cyiza kigira umusaruro mwiza kandi ushimishije, ibihwagariri iyo byumye barabyanika bakabikuramo ifu iribwa, ibihwagari ni igihingwa cyiza cyane.

Amajeri n'igihingwa cyiza, amajeri aribwa ku buryo butandukanye, amajeri urayahinga, ukayarya ari mabisi, cyangwa yumye aya majeri arumye atunganyijwe neza, n'amajeri ubona ko yeze mu butaka bwiza.

Iwacu duhinga ibishyimbo byinshi bitandukanye harimo ibishyimbo byitwa kajamaliki. Ni ibishyimbo biryoha cyane, kandi bigira isosi. Bigira umusaruro, umuhinzi wabihinze aranezerwa.

Ibigori byiza bya kinyarwanda by'amabara menshi bakunda kwita mambo. Ibi bigori ni imbuto nziza kandi yera ahantu hose, yaba ku butaka buseseka cyangwa se ubukomeye. Ibi bigori birera kandi bigira umusaruro mwiza.

Hano iwacu mu majyaruguru duhinga ibishyimbo byitwa ibizungu. Bamwe bakunda kubyita Ruvuninkingi. Ni ibishyimbo byiza, byera igihe cyose. Haba ku mvura ndetse no ku izuba n'ibishyimbo biryoha cyane.

Umuturage umaze gusarura imyaka ye mbere y'uko ayibika arayitegura, akayigosora, kugira ngo ayibikane ubuziranenge. Bityo iyo ayijyanye ku isoko iba ifite isuku.

Abari kugura, ndetse n'abari kugurisha. Iri soko ntushobora kuriburamo itungo ryose ukeneye.

Inka iri mu kiraro kinini gisakaye ariko kidakomanyije ku mpande, muganga w'amatungo ari kuyivura ari kuyitera urushinge, hari umugabo uyimufashije. Abaganga b'amatungo ni ingenzi, babungabunga ubuzima bw'amatungo yacu.

Inkwavu zorowe mu buryo bwa kijyambere, zisa neza zororewe, mu kibuti cyiza, gifite isuku. Inkwavu ni ubworozi bwororoka vuba, kandi zigira amafaranga, n'inyama ziryoha.

Amagi menshi kandi meza, ari mu bikoresho byabugenewe, bitwara amagi neza ku buryo amagi atameneka. Amagi ni ingirakamaro, afasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, amagi arimo intungamubiri zihagije.

Ingurube ni itungo rigufi kandi ryororoka vuba. Ingurube ni inyamabere. Iyo ibwaguye ibyana byinshi, iraryama kugira ngo byose bibone uko byonka. Ingurube ni itungo ryiza.

Ingurube ziri mu kiraro, ziri kugaburirwa, ingurube ni kimwe mu matungo magufi, tworora cyane hano iwacu, zitanga umusaruro ku buryo bwihuse, kandi zigira amafaranga, iyo umuturage azijyanye ku isoko ntabura amafaranga.

Ingurube nziza kandi nini iri mu kiraro cyiza iryamye iri konsa utwana yabwaguye, yabwaguye utwana twinshi. Iyi ngurube yatanze umusaruro ku buryo umuturage uyifite azi neza ko atazabura.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo. Abanyeshuri barimo bariga kuvura ihene yarwaye ikibyimba. Biragaragara ko bose bateze amaso cyangwa se amatwi umwarimu uri kubigisha.

Inka ziri mu kiraro cyubatse neza ariko kidasakaye, abaveterineri cyangwa se abaganga b'amatungo, baje kuzisura ndetse no kuzivura bari kuzitera umuti uvura ibirondwe.

Ingurube ni rimwe mu matungo magufi tworora hano iwacu mu Rwanda, irakunzwe cyane ku bantu bakunda inyama bavuga ko ingurube ari itungo rigira inyama ziryoha niyo mpamvu zorowe cyane muri iki Gihugu cyacu.

Muganga w'amatungo arimo kwita ku matungo magufiya twita inkwavu . Inkwavu ni itungo ryiza kandi ryororoka vuba . Inkwavu zigira inyama nziza kandi ziryoha.

Inka nziza ifite amahembe maremare, iyi nka bayishyize ahantu hazitiye bagiye kuyitera umuti, umushumba wayo arimo arahafunga neza, kugira ngo itavamo. Iyi nka ibereye amaso.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo barikumwe n'abarimu babo ndetse n'abanyamakuru, bagaragaza ibyo bamaze kumenya ku bijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo.

Inka nziza kandi nyinshi, ziri mu rwuri rwiza, rufite ubwatsi butoshye, harimo inka nini ndetse n'intoya, inka zifite amahembe meza kandi ziteze neza, ni inka zibereye u Rwanda.

Inka ziri mu kiraro cyiza kandi cyubatse neza. Inka z'iwacu zigira umukamo uhagije iyo wazigaburiye neza, kandi zigatanga umusaruro mwiza. Buri mworozi wese woroye inka, aba azi neza ko nta kibazo cy'ubukene azahura nacyo .

Hano iwacu tugira ibisimba bitandukanye, mu bisimba dufite hano iwacu mu Rwanda harimo n'igitera, igitera ni igisimba kigaragara nk'aho gikaze, buri muturage wese ukibonye agira ubwoba akiruka.

Igikeri ni kimwe mudusimba tuba mu mazi. Kiragonga, gikunda amazi cyane ndetse kiba n'ahantu ho mu bishanga. Igikeri ni akanyamaswa kikundira amazi ku buryo bufatika.

Iwacu tugira ubwoko bwinshi bw'inyoni ziba mu ishyamba: Hari inyoni zifite amaguru maremare, amababa maremare n'amaso atukuye. Iyi nyoni ifite isuku nziza kandi ni inyoni iberewe no kuyireba.

Imbata ni itungo ryiza. Imbata ni itungo ritera amagi, rikararira, igaturaga nk'izindi nkoko zose. Imbata igira inyama nziza kandi ziryoshe, imbata ikunda kuba ahantu hafite isuku.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi butanga umusaruro vuba kandi ku buryo bworoshe. Umuturage wese woroye inkoko, iramufasha mu kubona amagi ndetse n'inyama. Ayo magi iyo ayagaburiye abana, bagira ubuzima bwiza bityo bikabarinda kurwaragurika.

Mu nyamaswa ziba mu ishyamba harimo inyamaswa zitandukanye ndetse n'inyoni. Inyoni ifite umunwa muremure ifite ijosi rirerire ndetse n'amaguru maremare ifite amababa magufi ariko ni nziza.

Ingwe iri kugenda hagati mu ishyamba, mu muhanda, iri kumwe n'umwana wayo, ingwe ni igisimba giteye ubwoba, buri wese ukibonye arahahamuka, ingwe igira amakana menshi.

Inyoni ni udusimba tuba mu ishamba. Mu ishamba habamo inyoni nyinshi zitandukanye, harimo inini n'intoya. Izi nyoni ni udusimba tutagorana kandi abakerarugendo bishimira kuza kudusura.

Mu gihugu cyacu tugira inyamaswa nyinshi zitandukanye ziba mu ishyamba, harimo inyamaswa twita imparage. Imparage ni inyamaswa igira amaguru maremare n'umujosi muremure kandi izwiho kwiruka cyane.

Inyoni nziza iri ahantu heza, ifite amabara meza umweru n'umukara. Ni inyoni ifite umurizo muremure, ifite n'amaguru maremare. Iyi ni nyoni nziza cyane, ibereye amaso.

Igikona kiri mu nyamaswa ntoya, zigaragara mu ishyamba twita inyoni. Igikona gitera amagi ,kigaturaga, igikona n'igisiga kirekire kigira urwara rurerure kandi kiboneka.

Iwacu mu Rwanda tugira Parike ibamo inyamaswa nyinshi zitandukanye, harimo inyamaswa y'inzovu, inzovu ni inyamaswa igira umugara, ifite amahembe maremare kandi iyo nyamaswa ni inyamaswa ibereye kuyireba.